Aha ngaha baragerageza kukwereka navuga ko ari nk'abafatanyabikorwa mu mushinga runaka, ibi bigo bikaba ari byo wenda byateye uwo mushinga batashatse kukwereka ruguru, inkunga cyangwa se bafatanyije.